Abantu batatu batandukanye, muganga, umubyeyi n'umwana, muganga yasamuye umwana amuhereza umuti cyangwa urukingo, umubyeyi yishimiye ko umwana we arimo guhabwa uru rukingo.

Abantu benshi ababyeyi n'abana. Bicaye mu cyumba kimwe aho bateraniye. Umwe mu babyeyi arahagaze, ahagatiye umwana we, afite n'urupapuro imbere ye.

Umukecuru wicaye ku ntebe atetse, akaboko ke gafashe umwuko akoroga mu nkono iri ku ziko, iruhande rwe hari ibikombe ndetse hari inzu y'amatafari ahiye ifite amadirishya ndetse n'inzugi by'icyatsi.

Abakobwa n'abahungu, abagabo n'abana bambaye imipira y'icyatsi yanditseho tubiteho, barigishwa gukorera amasuku mu kanwa, umwe arahagurutse arimo gutanga urugero, abandi baramureberaho, imiti y'amenyo iteretse ku meza.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe ni umurwayi undi ni muganga. Umurwayi yicaye ku cyuma cyifashishwa mu gihe umuntu yagize impanuka cyangwa se yatsikiye. Iki cyuma iyo ucyicayeho kikugorora amaguru mu gihe ugenda uzamura akaguru ukamanura.